Umuhanda w'amabave uri kugendamo ikinyabiziga cya moto, iruhande rwa moto, hari akazu ka MTN karimo umugore uri gucuruza amayinite.

Inyubako itangirwamo serivisi za MTN, bigaragara ko hari abantu benshi batonze umurongo bashaka ubufasha, iki kigo cy'itumanaho gitanga serivis nziza.

Abayobozi benshi bakunze kugaragara bambaye amakoti meza ndetse n'indorerwamo z'amaso, iyo bahuriye mu nama, bakunda kuganira ibikorwa byubaka.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imipira y'umuhondo, biragaragara ko ari abahinzi bakora ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Abahinzi b'umuceri bavuga ko ari igihingwa cyiza gitanga umusaruro, iyo bacyitayeho bagashyiraho ifumbire, babona amafaranga abafasha kwiteza imbere no gukemura ibibazo bimwe na bimwe bihura na byo.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo abagabo abagore ndetse n'urubyiruko bigaragara ko aba bantu bambaye imyenda y'umweru n'umukara.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi, abantu benshi bakunze kuvuga ko ari nziza kandi ikeye, iyi nyubako abantu bahasohokera ari umuryango cyangwa se ari abantu bakeya.

Akenshi muri resitora hakunze kubamo ibiribwa bigiye bitandukanye, hari abavuga ko akenshi muri resitora baharya ibiribwa bihenze abandi bakavuga ko amafaranga babigura nta cyo aba atwaye kuko aba ari make.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ubucuruzi. Ni umuryango munini cyane urimo abasore babiri, baje kugura inzoga. Biragaragara ko bafite imyaka hagati ya makumyabiri na mirongo itatu.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, haba intebe, utubati, ameza n'ibindi. Biragaragara ko ari inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Aborozi b'inkoko bavuga ko zibaha umusaruro w'amagi yifashishwa n'abantu batari bake, amagi usanga adahenze kuko iginrimwe rigura amafaranga magana abiri.

Inyubako isize irangi ry'umutuku ikorerwamo ibikorwa byubucuruzi. Iyi nyubako isakaje amabati y'ubururu, bigaragara ko iri ahantu heza hakorerwa ibindi bikorwa bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bagiye gusenga, aba bantu bavuga ko gusenga ari ingirakamaro kandi bifasha umuntu kumva aguwe neza akumva nta kibazo afite.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umuhondo n'umweru, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi n'ubuvuzi aho usanga abantu baturuka hirya no hino bakaza kuhaka serivisi.

Icyumba kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umutuku ndetse n'ayandi, biragaragara ko ari abantu bahuriye mu nyubako nini.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ameza ndetse n'utubati, biragaragara ko ari urusengero rusengenyerwamo n'abantu benshi kubera ingano yarwo kandi rufite abayoboke benshi.

Inzu iteguye neza igomba kuba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ameza, intebe, utubati n'ibindi, hari aho usanga hari ibikoresho byinshi bashyira mu nzu ukabona bisa neza.

Icyumba kirimo igitanda kiriho matola ndetse n'imisego, harimo igitanda kiza ubona ko kigezweho gikoreshwa n'abantu bafite amafaranga menshi.

Inyubako iri ahantu ku musozi ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, ni ahantu hagaragara neza ubona ko hakunda kujya abantu, bashaka gutembera maze bakumva baguwe neza.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubucuruzi, ni inyubako ubona irimo ameza intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kirimo igitanda kiriho matela usanga giteguye neza, ni ahantu ubona ko hafite isuku hamanitse inzitiramubu kugira ngo imibu itabasha kwinjira muri iki cyumba.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo igeretse kabiri, inyubako ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi n'ubuvuzi bigaragara ko iri ahantu heza hanyura umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako ibamo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe, ameza ndetse n'ibindi, iyi nyubako n'akabari gacururizwamo ibinyobwa n'ibiribwa bigiye bitandukanye kandi bidahenda.

Abantu benshi bakunda gusohokera ahantu heza bigaragara ko hateguye neza, akenshi uzasanga abantu bakundana aribo bakunda gusohokera aha hantu ariko hakunze kuba hahenze.

Icyumba giteguye neza kirimo ibikoresho bike bitandukanye, harimo ibitanda, intebe, ameza ndetse n'ibindi, biragaragara ko ari ahantu hateguye neza kandi haryama abantu.

Inyubako igereretse kabiri, bigaragara ko yubakishije amatafari ahiye, ni inyubako isize irangi ry'umuhondo, iri ahantu heza, ubona ko hasa neza, hagati muri iyo nyubako harimo aho bakunda kogera.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo isakaje amabati atukura, ni inyubako igeretse kabiri bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yaba iby'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu, izitirishije ibiti, iyi nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biri ahantu mu nyubako, muri ibyo bikoresho harimo amajage, imyuko ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ubuzima bugende neza.

Abacuruzi benshi bakunze kuvuga ko iyo bacuruza imboga n'imbuto, bibafasha kwiteza imbere bityo bakumva bakemura ibibazo byose bahura na byo mu buzima bwabo bwa buri munsi maze bakumva baguwe neza.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibitoki, amatunda, imbuto zindi ndetse n'ibiribwa bitandukanye, ibi byose byifashishwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako isakaje amabati atukura, inyubako icururizamo abantu benshi bigaragara ko ari ahantu heza kandi hakorerwa ibikorwa bimwe na bimwe bijyanye n'ubucuruzi.

Abacuruzi b'imboga n'imbuto bavuga ko iyo bahinze imbuto, babona amafaranga abafasha gukora ibikorwa bimwe na bimwe bitandukanye ndetse no gukemura ibibazo bahura na byo.

Aborozi benshi bavuga ko amatungo abafasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye, iyo itungo warihaye imiti, ukarigaburira, riguha umusaruro mu gihe gito.

Umumotari uri mu muhanda ahetse umugenzi iyo umumotari ahetse umugenzi, akenshi akunze kuvuga ko ahura n'imbogamizi y'ibinyabiziga byinshi biri mu muhanda bityo ntagereyo vuba.

Abamotari babiri baparitse imbere y'inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, bavuga ko abagenzi badakunze kuboneka buri munsi, iyo batabonetse batwara imizigo bityo bakabasha kubona amafaranga.

Ibinyabiziga byinshi bigenda bitwara abagenzi bibakura mu bice bimwe na bimwe, abagenzi bakunda gutega abamotari kuko aribo batwara abagenzi mu gihe gito.

Imodoka ziri mu mabara atandukanye umweru, umukara ndetse n'umutuku. Hari abapolisi bari kuziyobora ngo zitambuke bityo hirindwe impanuka.

Umumotari uri kugenda mu muhanda ahetse umugenzi, ari kunyura mu muhanda wa kaburimbo uca hagati y'inyubako z'ubucuruzi ndetse hari umuhanda w'igitaka ushamikiye kuri uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo unyura hagati y'inyubako nyinshi, zisize amarangi atandukanye, harimo umweru ndetse n'umukara, izo nyubako zisakaje amabati atukura.